Abantu beza, abantu birabura harimo umugabo wirabura wambaye agapfukamuwa k'ubururu n'itanubira y'umweru wicaye ku intebe y'imvunwa imbere ya gato hakaba hari umudamu wirabura wambaye ga z'umweru n'itariya y'umweru.

Inzu nziza cyane, inzu yubakishije sima, inzu ifite hejuru heza cyane h'umweru. Mo indani hakaba harimo imiti y'ubwoko butandukanye, imiti ikaba ari myiza kuko ikiza indwara ndetse ikarinda indwara.

Ibyatsi byiza cyane ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi harimo n'utubabi tumwe tw'ibishababa twumye. Ibyatsi bikaba bikoreshwa ahantu hatandukanye harimo mu buvuzikaba bikaba birinda n'isuri.

Ibyatsi byiza cyane, ibyatsi bifite ibara ririye gusa n'icyatsi, ibyatsi bikaba bikoreshwa nk'imiti, kandi ibyatsi birinda isuri kugira ngo ubutaka budatemba.

Ibyatsi byiza cyane. Ibyatsi bigiye bitandukanye harimo ibigori byiza cyane byeze neza bifite amababi y'icyatsi. Ibigori bikaba ari bimwe mu bitera imbaraga havamo imbungure n'ifu, turabigurisha tukabona amafaranga kandi ibyatsi tubikoresha mu buvuzi bwa gakondo.

Ibyatsi , ibyatsi by'icyatsi ,ibyatsi bi biteye m'ubutaka bwiza cyane , ubutaka bw'umukara harimo n'i ibyatsi byuyumagaye hirya gatotoya hakaba ariyo ibuye ryiza cyane ibyatsi bikaba birwanya isuri. Ubutaka tukaba tubuhingamo kandi tukabuturamo.

Ubutaka bwiza cyane, ubutaka bw'umukara. Ubutaka burimo ibyatsi byiza cyane by'icyatsi, harimo ibifite uturabyo tw'umuhondo, hakaba harimo n'amabuye agiye atandukanye. Tukaba tubyifashisha mu kubaka ndetse tukabigurisha tukabona amafaranga.

Ibyatsi byiza cyane, ibyatsi bifite ibara ry’icyatsi. Harimo na bimwe bifite uturabyo tugiye dutandukanye, harimo uturabyo tugiye gusa n’umuhondo. Ibyatsi tukaba tubikoramo imiti. Kandi ikindi, ibyatsi ni bimwe mu birinda isuri.

Ibyatsi byiza cyane, ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi, ibyatsi bituye mu butaka bwiza cyane, ubutaka bugiye gusa umukara, hirya gatoya, hari ibuye ryiza cyane, ibuye amabuye tukaba tuyifashisha mu kubaka ndetse ibyatsi na byo tubyifashisha mu buvuzi.

Ibyatsi byiza cyane ibyatsi bifite ibara rigiye gusa icyatsi, ibyatsi birimo ubutaka bwiza cyane, ubutaka busa umukara, ibyatsi tukaba tubyifashisha turi gukora imiti ya kinyarwanda ndetse n'ibyatsi bikaba birinda isuri.

Ibyatsi byiza cyane,i byatsi bigiye bitandukanye, hariho bimwe bifite uduti tureture twumye ndetse n'ibitatugira, ibyatsi tubyifashisha mu kuvura, ndetse bikaba birinda n'isuri.